Umuntu uri gushyira imiti ku gihingwa mu buryo bwo kugira ngo gikure neza; kigire imibereho myiza kandi gikure gifite umwimerere mwiza cyane.

Umuntu wambaye agapfukamunwa wambaye mu bintu byo mu maboko nka isaruvet ahetse nipompo ari gutera imiti mu bigori imiti yica udukoko yicara udutsimba bituma ibigori bikora neza cyane

Umuntu uri gutera imiti yica udusimba n'udukoko ku gihingwa cy'iwe, afite ipompo, ibikoresho byabugenewe ari kugenda atera uwo umuti kugira ngo abashe kwica utwo dusimba turya imiti imyaka kugira ngo itera.

Umuntu uri gutera imiti mu myaka y'ibishyimbo ahetse ikintu cyagenewe cyo guteshyamo umuti kugira ngo bice udukoko twica imyaka, ari kugenda mu myaka ayitera yose.

Uburyo bwo gutera imiti mu myaka igiye itandukanye cyane cyane ibirayi, bakoramo ibisimba biba byara biyirya kugira ngo bitatuma itanga umusaruro. Ni uburyo rero umuntu ari gutera imiti mu myaka, ibirayi.

Uburyo bwo gutera imiti mu myaka by'umwihariko umuceri umuntu ahetse impompo ari kugenda atera imiti yambaye ibintu bituma iyo miti yica udusimba we idashoboye kumwangiza mu maso ari kugenda apuriza atera imiti mu myayaka umuceri.

Umugabo uri gukurikirana ibintu bijyanye no gutubura umusaruro no kongera umusaruro w'ibinyabuzima byo mu mazi cyane cyane amafi, ahantu bubatse ibizenga byo kororeramo amafi, bagakurikirana umusaruro wabyo byinshi cyane, umugabo rero uri kugenda ateramo imiti, abiha ibiryo, abyitaho.

Ubworozi bw'amafi, amafi yamajijejwe gukura, afite aho ageze, bayazanye bayashyira ahantu ku byatsi, yakoze yamejije kuba yagenda akarebwa, uyu musaruro waturutse mu bantu borora amafi.

Abantu barimo bavoma amazi mu kiyaga, bashaka kugira ngo abantu bakora ubworozi bw'amafi, bashaka ibiryo by'amafi, bagakora ubutubuvuzi bw'ibiryo by'amafi, bakazorora neza. Ni abantu rero bambaye amajire, harimo ikintu kimeze nk'ubwato mu mazi.

Ubworozi bw'amafi, kuyorora mu mazi bakayitaho bakayabonera ibiryo biyatunga, mpaka akuze, bakayakomereza bayarya, bayagurisha na byo bisaba kubyiga.

Ubworozi bw'amafi n'ibiyatunga kugira ngo abashe gukura neza abona n'ibiyatunga.

Kutubura ndetse no gushaka ibiryo by'amafi ndetse n'ubworozi bw'amafi ku korora ukabyitaho, ukayakurikirana mpaka akuze.

Uburyo abantu barushobora kubonamo ibitunga ibiryo by'amafi babikoze mu byatsi babikoze mu bintu bigiye bitandukanye, bagafatanya, bakibuza bagafatikanya gushaka ibiryo, byatunga amafi.

Ubworozi bw'amafi gutubura umusaruro w'amafi kugira ngo amafi abashe kubona ibyo yajya kuyitaho kugenda bakajya mu kuyazanira ibiyatunga bagakura ubutubuzi bw'ibitunga amafi ibibiribwa by'amafi bakayayitaho kugira abashe gukura ndetse abantu babonayo kurya.

Umusaruro w'amafi ari ahantu umuntu agaragaza umusaruro we w'amafi. Yashyize ahantu heza umuntu w'umusore, ufite umusaruro mwiza w'amafi, abyishimiye, byamutangaje.

Amafi manini cyane ateretse mu ibasi, ubona ko yavuye mu bworozi bw'amafi, ari umusaruro. Agaragaza umusaruro w'amafi yoroye, akayashyira aho ngaho amafi meza cyane kandi manini.

Aborozi b'amafi abantu bita ku mafi, bagatubura umusaruro w'amafi, bafite ibikoresho byabo bari kugenda bashyira ahantu mu kintu kimeze nk'ubwato, bari kugenda bashyiramo amafi bari kugenda bakura, baroba mu mu kiyaga bayazana mu bwato bwabo n'ibikoresho byabo byabugenewe.

Umuntu uri mu murima wi'icyayi arimo asarura icyayi, icyayi kigurishwa kijyana ku isoko kikagurishwa kikajyanwa no mu bihugu byo hanze kigatanga amafaranga yinjira mu gihugu.

Ubuhinzi bw'ibigori ku butaka bunini aho abagore bashoboye kuhinga bakajya kubigurisha, bakabijyana mu ruganda bagakoramo kawunga, bakabijyana kubikoramo igifu y'igikoma, bakabijyana bakabirya ariko babihinze ku butaka burebure.

Igishanga kirimo igihingwa cy'umuceri, umuceri ugurishwa igishanga kinini cyane kirimo umuceri gitangira kumera haretse mo amazi ku babyey bafite ibice bikikije bitandukanye binini cyane by'buceri bikikijwe n'imigano.

Ubuhinzi bw'icyayi bajyana ku isoko, abasaruzi bari gusarura ku misozi bari bubijyane ku ruganda.

Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya, burimo aho bashyiramo amazi, babihinga ku murongo, umuceri bashoboye kujyana mu ruganda, ukabihinga ku murongo baciye boroke, harimo n'abantu bagomba kuwitaho.

Ikawa izeze n'izitarera bajyana ku isoko bakazijyana ku ruganda, bagakomeza bazijyana no hanze y'igihugu zikaba zazana amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi ku murima munini, ahantu hanini ku musozi, bugiye kwera hanini, basarura bakajyana mu ruganda.

ubuhinzi bw'ikawa bamajije kuyubumisha, igiye kugenda ikajya mu ruganda, igakomeza, ijya no mu mahanga kugira ngo ibashe kwinjiza amafaranga mu gihugu.

Ubuhinzi bw'icyayi ku buryo basaruramo icyayi bakagisarura bakajyana mu ruganda bakagikora kugira ngo babashe kugeza ku baturage hagaragara abaturage bari kugisarura abaturage bagihinga ndetse bakacyitaho.

Umubyeyi ari mu cyayi ari kugisarura afite igikoresho cyo gusarurisha arahagaze arimo arasarura icyayi cyinshi cyane keze ahantu ku butaka bunini cyane.

Ikawa ikiri mu murima, igitangira kwera, harimo ikawa yatukuye, harimo itaratukura, iyatuguye umuntu ashoboye kuza akayisarura, yamara kuyisarura akayijyana, bakajya kuyumisha bakayijyana mu ruganda, ikawa rero zikikijwe n'ishyamba, hakurya yaryo ndetse harimo izikiri ibitumbwe ndetse n'izatangiye gutukura.

Ubuhinzi bw'ikawa, ikawa ivanwa mu gihugu kimwe ikajyanwa ahandi, bakabona amafaranga yinjira mu gihugu bakabijyana mu gihugu cyo hanze bakonbera bakabizana, ubuhinzi bw'ikawa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Umusaruro w'ikawa, ni umubyeyi afite umusaruro w'ika zigiye zivanze izeze n'iziteze, izihishije n'izidahishije, iruhande rw'insina, ahantu hari urutoki.

Umusaruro w'ikawa zamajije gusarurwa ako kanya zitaragera mu ruganda ngo zumishwe, zikiri mbisi, zikira imiteja ariko zareze. Ibitumbwe biri mu mufuka.

Ubuhinzi bw'icyayi umusaruro bahinga ku butaka burebure, abantu bakagenda bakaza gusarura, abandi bakabagara, abandi baturanye bahinga ibigori ndetse n'urutoki.

Iduka ry'imiti y'amatungo igiye itandukanye, ipakiye ahantu, imiti minini, imitima mitoya ndetse n'imiti isa umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru.

Imiti y'amatungo ipanze ahantu habugenewe, imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo igakoreshwa n'abavuzi b'amatungo, ikaba itenze ahantu habugenewe.

Ubwoko bw'imiti y'inyamaswa, imiti y'amatungo depo yayo ahantu bayirunda, uburyo ki yafashamo abantu kugira ngo babashe kuvura amatungo yabo.

Imiti y'amatungo, iboneka muri farumasi ikavura amatungo.

Imiti y'amatungo by'umwihariko inkoko. Imiti ivura inko, igaragaza amagarama, agaragaza vitamine ndetse n'ibindi bintu bavurisha inkoko.

Abahinzi benshi bagiye batandukanye bari mu murima, bari kugenda bacukura imyobo, bagiye guhinga ,bagiye gutera, barimo abafite imifuka, harimo abafite imbuto, abafite amasuka ndetse na agoronome uri kuberekera ku buryo ki, babigenza bagatera iyo myaka.

Umugabo n'umugore babshinzi borozi, bari kugenda mu nzira harimo ibyatsi, hari uruzitiro rw'ahantu runaka harimo n'ibigega, umugabo afite umuhoro, afite agacupa ka inagi, barimo bagenda basa nkaho bagiye guhinga cyangwa gukora iyindi mirimo gutema kuko bafite ibikoresho.

Umuntu uri gusarura umuceri, umuceri ureze nawe arimo ndetse n'abandi bari kumwe mu gishanga ahantu ahantu hahingwa umuceri, bari gutangiye bagiye gutangira gusarura umuceri.

Umugabo woroye amatungo itungo ry'inka mu rugo iwe hanze, ahantu riri rirahagaze n'inka ye nayo iri hanze ahantu hubakishije urugo rw'imiyenzi n'ahantu hari urugo rw'ibiti.

Abahinzi bari guhinga ibiti ku murongo, ni abantu benshi ubona ko babifitemo umushinga, benshi cyane bambaye ibisa, abagabo bambaye imipira isa, ingofero n'abandi bantu bashishikajwe no gutera ibiti kugira ngo babungabunge ibidukikije.

Ubworosi bw'inka z'inzungu, inka zisa neza inka z'umweru zihogo n'iz'umukara ziri ahantu mu rwuri rwazo bashoye hari ibiti ku ruhande hari n'ibyatsi zishobora kurisha.

Abantu barimo bagenda ahantu mu byatsi harimo uwikoreye inkwi, harimo ufite umuhoro, ni abahinzi borozi anbandi bafite inkwi barimo kugenda, ahantu munzira yabagenzi mubyatsi bitoshye, hirya hari nishyamba.

Abahinzi, umuhinzi ahinga umuceri, ahinga imyaka yo kurya, imyaka yo kugurisha, akayitaho, akayuhira, aca buroke ndetse agashyiramo amazi kugira ngo umuceri we ubashe kwera ndetse n'iyindi myaka.

Ibiti bigiye bitandukanye, ibiti by'amahwa, bihinze mu murima, hakabamo inkoro, hakabamo indabo, ibiti bigiye bitandukanye bikora igihuru, byinshi cyane bigiye biri mu murima, ibiti byumye, ibitumye n'ibindi.

Umuceri uri mu murima wawo umuceri watangiye kuraba kwera uri hafi kwera, uri mu murima wawo ugejeje igihe cyo kuba wasarurwa.

Imbuto ziri ahantu imbuto zigiye zitandukanye, amarongi, imyungu ndetse n'izindi mbuto, watermelon, pome, ziri ahantu bigaragara ko zajya ku isoko cyangwa hari n'umuntu waziguze.

Umurima w'ibigori, ibigori bishaje urimo n'ibindi byatsi bigiye bitandukanyebona, ubona ko ari umurima, imirima ibigori byezemo bikaba bitakirimo, ahubwo hakaba haramezemo ibyatsi.

Imbuto y'ibigori byo gutera, isi umuhondo biri ahantu umuntu aba yarabihinze yarangiza akabivungura akabishyira ahantu, akazabihinga. Akazabitera mu murima.

Ubuhinzi bw'ibiryo guhinga imyumbati, guhinga ibirayi, abaturage birira batajyana ku isoko bakabirya gusa nta kindi bagamije.

Igiti cy'ipapayi kiri mu murima imbuto zihinze mu murima harimo amaronji, ipapayi bigaragara ko harimo umurima urimo n'izindi mbuto n'imboga zikikijwe n'ibindi byatsi ku ruhande ibiti bya gereveriya n'ibindi biti bikikije uyu murima.

Guhinga bagahinga amaterasi, amayogi bakagenda barunda itaka, haratewemo imyumbati, bagatwika ibyatsi bakabironda kugira ngo babone ifumbire ndetse bakazaza baje guteramo imyaka y'ubuhinzi bwabo kugira ngo babone ibyo kurya ndetse n'ibyo kujyana ku isoko.

Ubuhinzi bw'imboga, intoryi zihinze ahantu zisaziye zihinze ku murongo, ahantu heza cyane zatangiye kwera, zatangiye kuzaho intoki nubwo zitarera neza ariko ziri ahantu hanini zirasasiye zirasa neza.

Urutoki rw'inyamunyu, ibigori, harimo n'ibirayi, harimo n'ibindi byatsi, harimo n'imbuto, urutoki rurimo ibintu bigiye bitandukanye, amadegede ndetse n'ibindi n'ibishanga biba byaravuye ku rutoki ndetse no ku bigori.

Imyaka, imyumbati, ibigori, insina, ibiti biri ahantu mu rutoki bigaragara ko ari hafi y'urugo, ibindi biti bigiye bitandukanye biba biri mu rugo, amapapayi, urutoki, imyumbati, imigozi n'ibyatsi biba biri hafi y'urugo, hafi mu rugo, hakurya hakaba inzu, hakaba n'urutoki.

Imbuto z'ibishyimbo n'ibigori ndetse n'inyanya, umuntu aba yarabihumbitse, akabishyira ahantu mu murima, yarangiza akagenda rero nk'inyanya akajya kuzitera ahandi hantu, biri ahanyu mu murima biteye ku murongo cyangwa yacukuye imyobo, akagenda abiteramo.

Ubuhinzi bw'ibitunguru, ibitunguru by'ibibabi bateka bakabiteka mu isumbe ndetse no mu bindi biryo, bukaba bukikijwe n'ibiti by'imiravumba, ahantu byamezemo n'ibyatsi.

Ishyamba ry'umwimerere ricucitse, ishyamba riba ryarimejeje, ishyamba riba ririmo ibintu byinshi rya rindi imvura igwa rikazamukamo ibicu, ibihu, mu gihe cy'imvura.

Ishyamba rikaba n'urwuri ririmo amatungo, hakabamo ibiti bigiye bitandukanye, bigaragaza ahantu n'imiterere yaho, amashyamba, ibiti bigiye bitandukanye n'ibyatsi ndetse n'amatungo.

Ishyamba rya kamere ry'umwimerere, ryimejeje riba ricucitse. Ririmo ibiti byinshi cyane, abantu batabasha gutema.

Abantu bari gukora isuku mu ishyamba, bagenda batema ibyatsi, bagabanya ibyatsi biri mu ishyamba, harimo abashinzwe umutekano, ingabo z'Igihugu, abaturage, bari kugenda bakata ibyatsi mu ishyamba.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga bwa kijyambere, guhinga imbuto bakagenda bazivomerera muburyo bwa kijyambere kugira ngo babone umusaruro mu gihe gito kandi byihuse.

Ubuhinzi bw'imbuto, ibinyomoro, ubuhinzi bwe bugamije kujyana ku isoko bakabigurisha kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga, bagasevinga kugira ngo bagire iterambere.

Imbuto harimo avoka n'imboga, meteja iiteretse mu gikarito. Ni umusaruro w'abahinzi baba bazanye bakabitereka aho ngaho ku buryo abantu bawujyana ku isoko cyangwa akabirya.

Ubucuruzi bw'inyanya ziri mu gitebo, inyanya zisa neza cyane, umuntu ararufite, agaragaza ko azicuruza, iruhande rwe hari ahantu, inyanya nziza cyane zuzuye igitebo.

Icyapa cyerekana ubuhinzi bw'imbuto n'imboga, ahantu ushoboye kugana ukagerayo, umuhanda wakugeza aho ahantu bahinga imbuto, bagahinga imboga aho hantu wagenda ukahagera icyapa kiri kubyerekana kigerayo.

Ubuhinzi bw'Imbuto, imyembe ya kizungu, imyembe iri ku giti, imajije kwera imyambe myinshi cyane ariko itaratangira guhisha.

Umuntu uri kuvomerera akoresheje uburyo bwa gakondo, ni indobo, ari kugenda azana amazi agasuka ku mboga ze, agasuka akongera akagenda, akongera akagaruka, imboga ziteye ku murongo, zigiye zirimo umwanya yatambukamo kugira ngo abone uko avomerera imyaka ye.

Kuvomerera imyaka bakoresheje ibyuma byabugenewe, amaze akagenda akwirakwira ahantu mu murima bitewe n'ibintu bakoresheje amashanyarazi ndetse n'ibindi bintu bya kijyambere baba bakoresheje kugira ngo bavome imyaka.

Uburyo bwo kuvomerera imyaka mu bishanga ndetse no mu misozi bifashishije uburyo bw'iterambere, bakagenda bapompa amazi bayacishije mu bikoresho byabugenewe, amazi akagera ahantu kure kandi nta bantu babikoze.

Kuvomerera imyaka bakoresheje uburyo bwo gucomeka impombo ahantu hari amazi, ubundi bakavomerera ubutaka kugira ngo bwumuke babone uko batera, ni ukuvomerera ubutaka bataratera imyaka, hari aho bateye, hari n'aho bataratera.

Uburyo bwo kuvomerera ibigori biteye ku murongo harimo umuntu w'umugabo yacometse ibihombo ahantu ku mugezi arangije araza akajya agenda amazi ayatera ayatungereza mu myaka.

Uburyo bwo kuvomerera imyaka, bugezweho bwo kugenda bacomeka ibintu bakagena amazi yirasa yiraza mu myaka, ni uburyo bwiza bugezweho abantu bakoresha bw'impombo.

Uburyo bwo kuvomerera imyaka bitari ubwa kijyambere bakoresheje amazi abaturage bakavoma amazi bakagenda buhirira imyaka bose baza bagafatanya abandi bakabagara bagenda bafashanya kuhirira imyaka.

Umuntu urimo aravomerera imyaka ye akoresheje uburyo bw'ibihombo, agacomeka na moteri ya izamura amazi akayizana ubundi akagenda afata igihombo amazi agenda ayavomerera mu myaka ye bigatuma byihuta, kuko n'uburyo buri bugezweho kuruta uko yakoresha amazi aza agenda asuka.

Uburyo bwo kuvomerera imyaka bwa kijyambere, umuntu afite akantu yashyizemo amazi, akagenda ahagarara ahantu hamwe, agashyira amazi mu murima adakoresheje ibikoresho bya gakondo.

Abaturage ndetse n'abayobozi, abayobozi bari gushishikariza abaturage ibijyanye no kohirira imyaka bakoreshe uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse n'ubwa gakondo. Hose harimo abafite amasuka, harimo abambaye amajire yabugenewe, hakaba hari n'abari kwandika.

Umubyeyi uri kuvomerera imyaka, akoresheje igihombo yacometse, ubundi amazi akagenda aza akavomerera imyaka ye imbuto ye, umubyeyi ari kuzivomerera kugira ngo zirusheho kumera neza.

Imiterere y'ahantu, ahantu hari insina, hari ibiti, hari urugo rwubakishije amategura, ahantu hadaduwe n'abantu benshi, abandi batuye kure cyane hatanagaragara, hari n'ibiti.

Imirima irimo amaterasi irimo imisozi irimo amashyamba afasha abantu guhumeka, harimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibishyimbo, imigozi, ndetse n'imyumbati, ikagaragaza n'ubutaka bw'ahantu, ibyatsi bihatuye imisozi.

Imiterere y'ahantu imyaka iri mu murima, imisozi, ibiti uburyo ahantu ibyatsi bihari ndetse n'imiterere yaho muri rusange ukuntu haba hameze, ibiti bihari, ikirere cyaho.

Imiterere y'ahantu hari ibidukikije hari n'ibihingwa, hari amatarasi, insina amazu ari ahantu, imisozi n'ibibaya n'ibindi bigaragaza imiterere y'ahantu.

Imiterere y'ahantu igaragaza ibyatsi, igaragaza ibiti, ikagaragaza indabo, hagaragaza imisozi, ikagaragaza uburyo ahantu hateye ibihingwa bahinga, amatarasi bahaca.

Imiterere y'ahantu, ibibaya, imirima iri mu kibaya, insina, inturusu, ikawa, ibiti bikagaragaza ahantu imiterere ukuntu hateye, imiturire y'ahantu ndetse n'ibyatsi bihera ndetse n'ibiti bihaba.

Imiterere y'ahantu ibiti, insina, ibibaya, imisozi, inzira z'ahantu, imyaka ihera, amashyamba, imisozi igiye iteganye n'iyindi ndetse n'ibindi.

Imiterere y'ahantu hari amatarasi y'indiganire, bagiye bahingaho ibintu bigiye bitandukanye, ibihingwa bitandukanye. Hakurya hakaba umuhanda, hakaba inzu, amashyamba n'ibiti ndetse n'imidugudu y'abantu batuyemo.

Ahantu mu matarasi n'ibyatsi ndetse n'imiturire y'ukuntu ahantu hatuye imisozi umuhanda ubuhinzi ibihingwa bahinga ndetse n'imiterere yaho n'ibyatsi biba bihari.

Imiterere y'ahantu imisozi igi iteganye n'iyindi, ibyatsi bigiye bihari ndetse n'ibiti, amashyamba agiye ahera ndetse n'uburyo ikirere kigenda kigaragara munsi y'iyo misozi.

Inzu z'abantu, imiterere y'ahantu, imisozi, ibyatsi n'ahantu hagiye hahananga, uko imisozi iteye, ikibaya mu misozi n'ahandi.

Imiterere y'ahantu n'imisozi, harimo n'inzira, hakaba n'ubuhinzi bw'icyayi, hakaba ikiyaga, amashyamba n'inzira zitwara abantu, zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Ubworozi bw'inka, inka ikimara kubyara, inka y'imbeyi yabyaye inyana nziza y'umukara n'umweru, imbere hakaba hari ubwatsi, ikaba na yo iri kuyishimira, iri kuyirigata igaragara ko yishimiye inyana yabyaye.

Baratwereka ubworozi bw'inkoko, inkoko zisangira, inkoko zisa umweru n'umukara ziri ahantu mu rugo ubona ko zitari korora inkoko nyinshi cyane ariko ari inkoko ziri mu rugero.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi cyane, harimo abantu bazitaho, bazubakiye inzu zayo, inzu zo kwitaho zo gushyiramo izo nkoko, bakaziha ibiryo, bakazivura ndetse n'ibindi byinshi.

Ubworozi bw amatungo cyane cyane inka ku butaka burebure buba buri hamwe bakabuha,

Ubu bworozi bw'amatungo inka bigamije kubona amata by'umwihariko ahantu baba bagiye kuzisura bakazireba, bakareba uburyo ki zikora, bakareba uburyo ki zikura, aho ziri kurira ndetse n'ahandi mu rwuri.

Ubworozi bw'inka, inka nyinshi ziri mu kiraro nyinshi bakaziha ubwatsi zifite umuntu uzitaho bagamije kuzabona amata cyangwa bagakuramo n'inyama.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, burimo korora inkoko bakabona amagi, korarora inkoko kugira ngo bazabone inyama, ubworozi buba bufite umuntu wita kuri izo nkoko.

Ubworozi bw'inka nyinshi ziri ahantu mu rwuri rwazo ziri kurisha , inka zigiye zitandukanye zirimo zirisha, ziri kumwe n'umushumba wazo akaziragira ndetse igihe kikagera bakazohereza mu rugo.

Ubworozi bw'inka, inka nyinshi ziri ahantu mu kiraro, hari n'umuntu rero ugenda azerekana, zimwe ziraryamye, izindi zirahagaze, zubakiye ahantu zihabwa buri kimwe.

Ubworozi bw'inkoko ziri ahantu hanini, ziri ahantu mu nzu, zigiye zifite ibintu bizifasha kurya, utuntu tw'utwunyu bashyiraho ibiryo, utuntu tw'utudobo bashyiraho ibiryo.

Ubworozi bw'inka mu biraro bya kijyambere bya kizungu, aho inka ziba ziba ahantu hubakishije ibyuma, mu biraro byiza bya kizungu, bakabihereza ubwatsi bazizaniye aho ngaho.

Ubworozi bw'inka nk'eshatu ziri mu rwuri, ziri kurisha, ahantu mu rwuri, ahantu mu ifamu, hari igiti halkaba imiyenzi, hakaba n'ibindi biti byinshi.

Ubworozi bw'amatungo mu cyaro, harimo intama, ihene ndetse n'andi matungo, bigamije kuzabona inyama, bigamije kuzagurisha ayo matungo.

Ubworozi bw’amatungo, by'umwihariko inka, mu biraro bya kijyambere, bakazitaho bafite n'abantu bazitayeho.

Umuntu ari kuvungura ibigori, aho ashoboye gukuramo imbuto akajya kubitera, aho ashoboye kubikuramo igikoma, aho ushoboye gukuramo ifu y'akawunga, aho ashoboye ibyo yakuyeho kujya kubicana n'ibindi.

Imbuto zo gutera, imbuto z'ubunyobwa, imbuto z'umuceri ndetse n'ibindi bifashisha batera mu mirima kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi.

Umuntu uri kugosora ibishyimbo kugira abashe kubona'imbuto zo guhinga, arafite inkoko ari kugenda agosora ibishyimbo kugira ngo abone ibyo yajyana kuzatera mu muririma wiwe abone ibindi.

Imbuto z'ibigori zo gutera, bari kugenda bapakira mu mufu kugira ngo bazabashe kuzitera akaba umusaruro abantu bashoboye gukoresha barya akawunga ndetse n'ifu y'igikoma.

Umuntu ufite imbuto y'ibigori mu ntoki yabiyoye mu mufuka agiye kubitera. Iyi mbuto y'ibigori, ibigori biba byareze bakabihungura bagashyira mu mufuka, abashoboye kubitera, ashoboye kubivungura akabikuramo igikoma, agakuramo akawunga abijyanye ku ruganda ndetse n'ibindi byinshi byava mu mbuto y'ibigori.

Umuntu uri kuvura ingurube ari kuyitera urushinge, ingurube ndetse n'umuvuzi wayo ni umuganga w'amatungo uri kuyitera urushinge.

Abavuzi b'ibinka bayiriho baje kuyivura harimo umukobwa hakaba n'abasore inka nazo zirahari imwe bayifashe bayishyira mu kiraro cyayo baje kuyitaho kugira ngo bayivure bamenye uburwayi ifite.

Inka nyinshi z'Inyambo ziri ahantu, abantu bazitaho, abaganga bazo bakazivura, bakazitaho bakazimenyera uburwayi, bakazigaburira ahantu henshi.

Inka ziri mu biraro byazo ahabugenewe, inka nyinshi cyane z'inyambo zifite amahembe ziri kumwe n'abaveterineri bazo bagiye batandukanye ndetse n'abashumba ku ruhande hirya y'ibiraro baje kuzitaho.

Abavuzi b'amatungongo bihuza bakaba bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti, ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo bavura amatungo n'uburyo ki bayavuramo bakihuza bakaba bari kubikora.

Abantu b'abagabo cyangwa abasore bari kuvura inka, bayishyize mu kiraro cyayo cyabugenewe bakayivu bayiterushinye, bose ari abaganga b'inka bari kubyitaho.

Ubuvuzi bw' amatungo, abaganga b'amatungo baza bakavura amatungo yabo, harimo inka ndetse n'ayandi matungo.

Ubworozi bw'inka, inka zivurwa zikavurwa n'aba veterineri, inka zikiri ntoya zikurikiranwa n'abaveterineri ziri mu rwuri rwazo, bakaza kuzitaho abaganga bazo babugenewe.

Abavuzi b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe bari kugenda bakora ku miti ku itungo bakozeho bacanye itoroshi bambaye imyenda yabugenewe bari gukurikirana ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bavura.

Abaganga b'amatungo cyane cyane inka barahari bari kureba inka ikibazo ifite bari kuyivura, hari abari kureba hari n'abari gukora ku nka, abakobwa babiri n'abandi basore batatu barimo bareba, bambaye amajire abandi bakambara amasarubeti.

Inyamaswa zo mu ishyamba, ibitera biba biba mu mashyamba ndetse n'ahandi mu gasozi bitajya biba mu rugo, ni inyamaswa ziba mu gasozi zitajya zigera mu rugo zitwa ibitera.

Inyamaswa yo mu ishyamba yicaye ahantu impande y'ibyatsi n'ibiti, irimo ireba ibyatsi ahantu hose.